Umusore ufite umusatsi mukeya w'inzobe wamwenyuye, ufite akadodo mu ntoki basanzwe gakoreshwa mu kwihaganyura ibintu byagiye mu menyo.

Umukobwa wambaye amadarubindi, wicaye mu ntebe wageretse akaguru ku kandi, afite indangururamajwi mu ntoki, arimo aratanga ikiganiro ku myororokere.

Icyumba cyo kwa muganga aho bakirira abantu bakihagera, kirimo abantu bategereje n'umugabo uhagaze arimo aravugana n'umwakira.

Umukobwa w'inzobe, uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri, wambaye ibirenge n'agapantaro k'umukara kamwegereye, n'agapira k'umukara, uteze amaboko, yicaye ku buriri, arimo arinanura.

Inkoni ebyiri zikoze mu buryo bwa gihanga zagenewe kwisindagirizwaho, zifite n'akagozi gafashe aho umuntu afatisha ikiganza ariko zikoze no ku buryo zishobora kongerwa uburebure bwazo.

Igikapu gifite ibara ry'umutuku n'umukara, kirimo ibikoresho byifashishwa mu butabazi bw'ibanze, harimo umukasi, icupa ririmo umuti wo koza, n'ibitambaro byo gupfuka ibisebe.